Gahunda yo kwita ku buzima bw'abantu, aho abaganga bagenda bapima indwara zitandukanye, cyane cyane bakibanda ku bantu bakuze, kugira ngo bamenye neza ko izo ndwara zitabafashe, nibasanga zarabafashe bahabwe ubuvuzi bw'ibanze bitaweho cyane.

Abakozi bakora mu muryango utegamiye kuri Leta ku isi yose wita ku bana cyane cyane ab'abakobwa, urimo kugenda mu bihugu bigiye bitandukanye wigisha ababyeyi ukuntu bakwita ku buzima bw'abana babo, kugira ngo babashe gukura neza bazagire aho bigeza mu gihe kizaza.

Kandagira ukarabe ni igikoresho kifashishwa mu kwirinda indwara ziterwa n'umwanda nk'aho iyo uvuye kuri tuwarete cyangwa wahuye n'abantu bagiye batandukanye benshi ugomba gukaraba intoki mbere yo kugira ngo ufate ikintu ugiye kurya; icyo gikoresho bagishyira ahantu hahurirwa n'abantu benshi nko ku mashuri ndetse no ku isoko.

Umuryango utegamiye kuri leta ku isi yose wita ku buzima bw'abana b'abakobwa cyane cyane ugenda wigisha ababyeyi babo ukuntu bashobora guhingaboga uburyo bworoshye babashe kwita ku bana babo babaha indyo yuzuye ndetse no mu gihe umwaka urangiye, baza kureba ko ibyo bigishije abo babyeyi n'abana babishyize mu bikorwa.

Itsinda ry'abajyanama b'ubuzima bavuye guhabwa amahugurwa yo kwita ku buzima bw'abaturage nk'aho bavura indwara zigiye zitandukanye, malariya, umusonga ndetse n'impiswi.

Ikigo gishinzwe amazi mu Rwanda mu rwego rwo kwegereza abantu amazi cyagiye gishyira ahantu hagiye hatandukanye imigezi, gishyiraho uduhombo tubiri kugira ngo abantu nibaza ari babiri bahageze babashe kuvoma maze babone amazi mu buryo bworoshye.

Kwa muganga aho bakirira abana, muganga ari gutera urushinge umwana kugira ngo amurinde indwara zazamufata mu gihe kizaza harimo: nk'iseru ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, umubyeyi we aba amumufashije kugira ngo abashe kumutera urwo rushinge.

Abana n'umubyeyi wabo bavuye mu kazi guhinga bafite isuka, banyura ku mugezi bajya gufatayo amazi bifashisha mu rugo.

Ikigo cyita ku bana ku isi yose, kiragira inama abana ko batagomba gukoresha intoki bari kunywa amazi, ahubwo bagomba kwifashisha ibindi bikoresho nk'igikombe kugira ngo kibafashe babashe kurinda ubuzima bwabo.

Kwa muganga aho abarwayi bahererwa serivisi, aho baba bicaye ku murongo ariko cyane cyane bagahera ku bantu barembye, kugira ngo ubuzima bwabo butajya mu kaga, maze babavure byihuse.

Kandagira ukarabe ni igikoresho kidufasha kwirinda indwara ziterwa n'umwanda nkaho idufasha gukaraba intoki mu gihe tuvuye ku musarane ndetse n'igihe twasuhuje abandi bantu benshi bagiye batandukanye.

Mu bitaro kwa muganga mu cyumba cy'aho umuganga asuzumira umurwayi indwara zigiye zitandukanye, aho muganga aba yambaye agapfukamunwa ndetse n'umurwayi akambaye, mu rwego rwo kugira ngo birinde kuba bakanduzanya n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Itsinda ry'abayobozi bagiye batandukanye bahuriye hamwe, ndetse n'abapolisi bashinzwe umutekano, kugira ngo baganire ukuntu barwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ,ndetse no kurwanya iteshwagaciro ry'uburenganzira bw'umwana.

Umuganga wita ku buzima bwo mu mutwe, ari kumwe n'umurwayi agiye kumuha imiti no kumutera urushinge rwagabanya iyo ndwara ye, kugira ngo na we abashe kumera neza.

Ikigo cyo mu Rwanda gishinzwe ubuzima ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta yita ku bana, cyashyizeho umunsi wo kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe, cyane cyane arangwa no guseka nta muntu bari kumwe, ndetse akagenda yivugisha wagira ngo ari kumwe n'abandi bantu, kandi ntabo ari kumwe nabo.

Itsinda ry'abantu rishinzwe kuganiriza abantu ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, aho baba bafite icyapa kibiranga cyerekana uko abantu bagomba kwita ku buzima bwo mu mutwe kugira ngo bakomeze kubaho neza.

Mu cyumba cy'inama harimo abantu batandukanye n'ibikoresho bigiye bitandukanye, bari kuganira ku bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ukuntu bashobora kwita kuri abo bantu babana nubwo burwayi bwo mu mutwe kugirango bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Umuntu ubana n'ubumuga bwo mu mutwe kenshi usanga yicaye ku muhanda arimo kwivugisha yambaye imyenda mibi afite n'ibicupa byashizemo ibintu abigendana aho ari hose.

Ni byiza ko iyo uri gukora isuku y'amenyo uba ugomba kuba ufite icyirori kugira ngo kigufashe kubona aho wowe amaso yawe atari kureba kugira ngo uhakure imyanda yasigayemo.

Mu cyumba kwa muganga aho muganga yakirira abarwayi cyane cyane abarwaye uburwayi bw'amenyo kugira ngo yite ku buzima bwabo nk'aho ayabakura wenda bari bayarwaye cyangwo aje kuyogesha muganga akamufasha kuyasukura, icyo gihe muganga akora icyo gikorwa yambaye ibikoresho bitandukanye bimufasha kwirinda nk'agapfukamunwa na ga.

Ni byiza ko abantu bakwiye guhurira hamwe mu gihe basoje wenda akazi kagiye gatandukanye kugira ngo baganire ukuntu bashobora kwita ku buzima bw'abakuze ndetse no kwita ku buzima bw'abakiri bato kugira ngo abantu babashe kugira ubuzima bwiza, ni aho baba begeranije ababyeyi bakabereka ukuntu baboha bagakoreramo n'ako gasiporo.

Mu rwego rwo gufata neza amaso yawe, cyane cyane ku bantu bageze mu za bukuru, ntabwo ari byiza gukoresha terefone uyegereje amaso yawe kuko urumuri ruragukubita, noneho amaso yawe akarushaho kwangirika cyane.

Ni byiza kwita ku buzima bw'abantu bageze mu zabukuru, nk'aho muganga aba yavuye kwa muganga akaza akegera uwo murwayi ugeze mu zabukuru akamwitaho akamuvura ariko muganga nawe afite ibikoresho biri bumufashe kugira ngo yirinde nawe atagira indwara yandura mu gihe arimo kuvura uwo murwayi, nk'aho yambara ga, akambara agapfukamunwa ndetse n'indi myenda yabugenewe.

Muganga mu cyumba aho afatira ibizamini umurwayi abanza akamuganiriza cyane cyane iyo uwo murwayi asa nk'umuntu ugeze mu za bukuru kugira ngo yumve ko nta kibazo, ari kumufata ibizamini bijyanye n'umuvuduko w'amaraso.

Ibyo kurya bigiye bitandukanye bifasha imibiri yacu kugira ngo ibashe gukora neza igire ubudahangarwa. Ibyo harimo karoti, imbuto, amaronji ndetse n'ibindi.

Iki ni ikirango cy'ikigo gishinzwe kwita ku buzima gikorera mu Rwanda, aho cyita ku buzima bw'abantu bagiye batandukanye,, kibaha imiti igiye itandukanye ndetse kikabavura, kikabatera inshinge, n'ibindi byose bakenera kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza.

Ubukangurambaga bwabaye bwo kwita ku buzima bwo mu mutwe, bwitabiriwe na Madamu wa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame aho yabagejejeho ubutumwa bugiye butandukanye yari yabageneye, bumwe bwavugaga ko udashobora gutera imbere udafite ubuzima bwiza bwo mu mutwe, rero ni byiza kwita cyane cyane ku buzima bwawe ariko cyane ubwo mu mutwe.

Mu cyumba kwa muganga aho bafatira ibizamini, harimo ibikoresho bitandukanye nk'inshinge ndetse n'ibindi, n'abaganga bifashisha ibyo bikoresho kugira ngo bafate ibizamini abarwayi.

Mu cyumba kwa muganga aho bakirira abarwayi b'indembe bafite ibibazo byihariye byihutirwa kugira babahe ubufasha bwihuse bw'ibanze, batabare ubuzima bwabo butarajya mu kaga.

Mu rwego rwo kwegereza serivise abarwayi haba hari inzu zicururizwamo imiti kugira ngo umurwayi no mu gihe atabashije kugera kwa muganga vuba abashe kubona imiti mu buryo bwihuse aho hari imodoka y'umukiriye uje gufata imiti kuri iyo nzu.

Mu bitaro kwa muganga aho bakirira abantu barwaye kugira ngo babavure, hari ibendera, hari umuntu uri kugenda n'abandi bantu babiri ndetse n'imodoka z'abantu baje kwivuza, n'icyapa kigaragaza aho ariho.

Mu bitaro kwa muganga hari inzu iba irimo ibitanda bigiye bitandukanye, aho umurwayi urwariyemo ugiye kuzahamara iminsi arwaye ahagera akaruhuka kugira ngo bakomeze bamwiteho ari hafi y'abaganga.

Ibi bitaro kwa muganga byateye imbere hari ahantu abantu bicara bategereje igisubizo, haba harimo intebe nziza utumeza ndetse n'utundi tuntu bakenera two kurya, natwo bakakubonera hafi, ni byiza rero iyo watekereje kuri iki kintu iyo ugiye ukora nko nk'ibitaro byawe.

Mu cyumba kwa muganga harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, umuganga yifashisha kugira ngo yite ku murwayi mu gihe ari kumuvura indwara nyinshi zitandukanye ndetse no kumubaga kugira ngo yite ku buzima bwe.

Kwa muganga hagizwe n'inyubako zigiye zitandukanye zifite imimaro myinshi nkaho hari inyubako bakiriramo abantu bagiye gupima, aho babika imiti ndetse hakaba hari n'ubusitani bwiza abantu bicaramo mu gihe bategereje ibisubizo.

Mu cyumba kwa muganga aho batwara abarwayi bagiye kubabaga kugira ngo barebe ibibazo bagiye bafite babone ukuntu babavura nimba hari urugingo rwangiritse muri bo bakarukuramo bakabashyiramo izindi ngingo nzima naho bashobora kugukuramo impyiko bakaguha indi mpyiko y'umuntu kugira ngo ukomeze ugire ubuzima bwiza.

Ikigo nderabuzima batanga serivisi nyinshi zigiye zitandukanye nk'aho bita ku barwayi barwaye indwara zitandukanye ndetse bagakingira abana n'abantu bakuze, kugira ngo babarinde badafatwa n'indwara zandura vuba.

Biba byiza ko muganga apima amaraso igihe arangije kuyafata umuntu, kugira ngo najya kuyatera undi murwayi uyakeneye, atazagira izindi ndwara atera uwo muntu agiye kuyatera.

Mu bitaro byateye imbere, aho abarwayi baruhukira, haba harimo ibitanda bigezweho, nkaho haba harimo ibitanda bigenda ndetse bafitemo na tereviziyo imbere yabo mu gihe barimo kuharuhukira, bakagira icyo baba barimo kureba barangaye.

Imyitozo ngororamubiri igira umumaro ku muntu uyikora nkaho umubiri ubasha gusohora imyanda ndetse no kuwurinda indwara.

Gukora siporo ni byiza mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi kuko iyo ukora siporo ubasha kwirinda indwara zigiye zitandukanye ndetse no kuba wagira umubyibuho ukabije. Si icyo gusa kuko iyo cyane cyane ukunda gukora siporo nk'umwitozo wo kwiruka ushobora no kujya no mu marushanwa ugakurayo n'amafaranga ndetse n'imidari itandukanye.

Siporo iri mu byiciro bigiye bitandukanye nk'aho umuntu ashobora gukora siporo agiye gukina umupira akaruhura umubiri we, undi akajya guterura icyuma, undi akiruka agakora mucaka, undi agakora imyitozo igiye itandukanye ariko atirukanka.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza ku muntu uyikora, igira umumaro wo gutuma amagufwa ye akomera ndetse igatuma imitsi yo mu bwonko itangirika, igatuma ahorana ibyishimo mu bandi.

Nyuma yo gukora siporo buriya biba byiza, iyo ugiye ugafata utundi tuntu, tugufasha kongera isukari, kugira ngo umubiri wawe ukomeze ukore neza, hari n'imiti ndetse yabigenewe kugira ngo ubashe kwisiga, maze ugire ubuzima buzira umuze.

Gukora siporo ni byiza ku muntu uyikora, iyo ayikora cyane cyane igihe cyose kuko bimufasha kuba yakirinda kuzamuka kw'isukari cyangwa akagira ibintu byo kuzamuka k'umuvuduko w'amaraso, ni byiza rero buriya gukora siporo kuko siporo ni ubuzima.

Itsinda ry'ibikoresho byo kwa muganga harimo ga, amavuta n'imiti y'uruhu n'inshinge, bifite akamaro kagiye gatandukanye, nka ga ifite akamaro ko kurinda umuganga kuba yagira indwara yandura azitewe n'umurwayi mu gihe arimo kumuvura.

Igare rifasha ababana n'ubumuga bwo kutagenda badafite amaguru. Rikaba rigizwe n'amareyo n'amapine, naho undi muntu yafata kugira ngo asunike uwo muntu ubana n'ubumuga.

Uyu ni umuti w'amavuta wifashishwa kwita ku ruhu rw'umuntu kugira ngo amurinde kuba yafatwa n'indwara z'uruhu, harimo uduheri ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Mu gihe cyo hambere hariho ibiti byinshi bigiye bitandukanye byifashishwaga mu kuvura abantu indwara zitandukanye naho abavuzi ba gakondo bagendaga bakajya guca ibyo biti bakabynika bakabisekura bikazavamo iyo miti kugira ngo i fashe abarwayi kubana uko bivura.

Iki kibabi cyifashishwaga n'ababyeyi mu minsi ishize, barimo kwita ku buzima bw'abana babo, babavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye nk'inkorora, impiswi, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ikimera gifite amababi y'ubururu ndetse n'amashami, kidufasha mu kutuzanira imvura ndetse no kuduha umwuka duhumeka kugira ngo ibinyabuzima bigire ubuzima bwiza.

Igiti cyitwa umuravumba kiri mu miti yifashishwa mu kuvura umuntu indwara nyinshi zigiye zitandukanye, harimo ibicurane inkorora ndetse n'inzoka.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura abarwayi indwara nyinshi zigiye zitandukanye, harimo nka malariya, inkorora, inzoka ndetse n'izindi zitandukanye, mu gihe bari gutegura iyo miti bifashisha igikoresho cyitwa isekuru kugira ngo ibashe kuba ifu umurwayi abone uko ayinywa.